Igipapuro cyerekana uburyo amafaranga yagiye agera kuri konti n'uburyo yagiye avaho, bakakwereka n'ayo usigaranye, gitangwa n'ikigo cy'itumanaho cya MTN, gihabwa abakiriya bayo.

Ku manywa, imodoka nyinshi ziparitse ku murongo, harimo imodoka y'umukara ikorwa n'uruganda rwa Kiya, ikaba ari imodoka ikoresha umuriro ndetse n'amavuta, akaba ari imodoka igurishwa miliyoni cumi na zirindwi.

Ku manywa abantu batatu baje muri banki, begereye umuntu ubikuza urimo imbere mu kazu gafite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ikirahuri, imbere hakaba n'ibyapa byanditseho Wester Union.

Iduka ricuruza amata ririmo abantu abacuruzi n'abaguzi barimo kunywa amata bakayanywera mu bikombe by'ibirahuri.

Abantu babiri umugabo n'umugore bahagaze, umugabo yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara ingofero y'ubururu n'umuhondo. Umugore ateruye ikarito yambaye ikote ry'umukara n'agapira k'ubururu n'amadarubindi.

Intebe ifite amabara ya shokora n'imisego y'umuhondo byifashishwa mu kwicaraho n'abantu, abatoya se cyangwa abakuru, iteretse mu nzu ishashemo amakaro, hari n'ibindi bikoresho ku ruhande bitandukanye.

Ku manywa mu nzu harimo intebe eshatu n'ameza, intebe zifite imisego ifite ibara ry'umweru, intebe zikaba zikoze mu giti, hasi mu nzu hakaba hasashemo amakaro.

Kumanywa intebe eshatu n'imeza imwe biteretse hanze y'inzu yubakishije imiryango y'ibyuma, izo ntebe zikaba zikoze mu biti.

Ku manywa inzu ifite ibara ry'umuhondo, hejuru yayo hari antene ifite icyapa gifite amabara y'ubururu n'umuhondo cy'ikigo gishinzwe ubwishingizi cyitwa Purayime inshuwarensi gikorera mu karere ka Muhanga.

Ku manywa inzu isize amabara y'umuhondo n'umukara y'ikigo cy'itumanaho cya MTN, harimo abantu bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'abandi bantu baje gushaka serivisi zitandukanye.

Mu nzu mo imbere, harimo intebe zisa ibara ry'icyatsi, harimo agatangamuyaga, harimo tereviziyo ndetse n'akabati, iyo nzu ikaba isize irangi ry'umweru.

Abantu babiri umugore n'umugabo, bashinzwe umutekano mu igihugu cy'u Rwanda, umwe ni umusirikare undi ni umupolisi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse mudasobwa.

Isoko rinini ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, bipanze ku murongo hagendewe kuri buri bwoko bwa buri kiribwa, kugira ngo bifashe ubishaka kubibonera hamwe.